Umugabo w'igikara wambaye ipantaro y'ubururu umukandara w'umukara ishati yenda kuba umweru yambaye amarineti ndetse akikijwe n'utubati turimo amakarito agiye ariho impapuro zanditseho imbere y'iwe hari ikaye y'ubururu iteretse kumeza.

Ikirangantego kirimo ibendera ry'u Rwanda rigizwe n'ibara ry'icyatsi kibisi, umuhondo, ubururu n'izuba n'imirasire yaryo, hariho ikiyaga cya Kivu. Hasi handitseho demokarasi mu bwumvikane n'ubwisanzure, kuruhande handitse ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki.